Itsinda ry'abantu bari hamwe bari kuganira, bicaye ku ntebe zisa ubururu imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro by'umweru, ateretseho amacupa y'amazi yo kunywa bafite amakayi n'ikaramu bari kwandika.

Imbangukiragutabara iparitse imbere y'inzu isize irangi ry'umuhondo, inzugi n'amadirishya bisa icyatsi, inyuma hari ikigega gifata amazi n'ibiti birebire ndetse n'abantu bahagaze harimo abasirikare.

Abagabo batatu n'abagore batanu bafite mudasobwa mu ntoki, imbere yabo harambitse ibikarito hari ibyatsi byinshi n'indabyo zitandukanye inyuma hari inyubako.

Ambiranse iparitse mu muhanda w'igitaka iruhande, hari abantu, benshi, n'abambaye amajire asa umutuku, inyuma inyubako, yubakishije amatafari ahiye isakaje amabati.

Abahinzi bari mu murima guhinga, ndetse n'imbere yaho hahagaze abandi, ntacyo bari gukora, n'abana imbere hari amajerekani atatu, ndetse n'inkweto ziharambitse z'ubururu n'inyubako.

Icyumba kirimo abagabo babiri bambaye imyenda y'umweru bahishe amasura n'abandi bari kwambara, imbere hari ameza ateretseho mudasobwa n'intebe.

Kwa muganga mu cyumba gisize irangi ry'umuhondo, gifunguye amadirishya. Hari umurwayi bari gupima ndetse n'abandi baganga bahagaze ku ruhande, ku meza hariho ibitabo.

Imbangukiragutabara iparitse imbere y'inzu isize irangi ry'umuhondo, hari abaganga bagiye gukuramo umurwayi ndetse inyuma ya bo hari ibiti birebire.

Abagore bafite telefone mu ntoki ubona bari gusaba serivisi zo kubikuza amafaranga, kuko hari undi wambaye ijire y'umuhondo ya emutiyene.

Imbangukiragutabara isize irangi ry'umweruru n'akarongo k'umutuku, ikirango cy'ubururu, harimo umuntu wambaye imyenda y'imyeru.

Ikigo nderabuzima, imbere yacyo hari intebe n'icyapa, kigaragara gisize irangi ry'umweru, n'amagambo yanditseho mu ibara ry'umukara, gisakaje amategura.

Abasore n'inkumi bicaye imbere y'inzu, umwe afite amakayi mu ntoki n'undi impapuro, barikuganira, hari agatambaro k'umweru n'umutuku, kamanitse ku nzu.

Abantu benshi bambaye amajire asa umutuku, bicaye, abandi bahagaze, imbere y'inzu isize irangi ry'umuhondo, umuryango urakinguye ndetse n'amadirishya asa umweruru.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse na baje mu ijosi ahagaze mu cyumba gisize irange ry'umweru, inyuma hari ameza ariho mudasobwa n'impapuro ndetse n'akabati karimo ibitabo n'amaka.

abayobozi bicaye imbere yabo hari ameza n'intebe iteretseho amazi yo kunywa, bafite amakayi n'undi uhagaze bari kwiga ku kibazo bari gutanga amakuru inyuma hari ibishushanyo by'abantu bari kwigisha.

Inzu isize irangi ry'umuhondo imbere yayo hicaye hanahagaze abantu, hari ubusitani ndetse n'ibiti by'amoko atandukanye.

Abaganga bambaye amataburiya y'umweru n'ubururu, bahagaze imbere y'ameza ariho imiti, impapuro n'isahane na telefone, inyuma yaho hari inzu yubakishije amatafari ahiye.

Muganga wambaye ishati n'agapfukamunwa ari gupima umurwayi w'umusaza wambaye ingofero, imbere yabo hari ameza ariho ikaye n'ikaramu ndetse n'akabati inyuma karimo imiti.

Umugabo n'umugore bafite, ishusho mu ntoki inyuma yabo, hari igikuta gisize irangi ry'umuhondo, cyometseho impapuro ziriho amagambo n'ibara ry'ubururu.

Inzu zubakishije amatafari ahiye, zisize irangi ry'umweru, zisakaje amabati asa ubururu, munsi hicaye abantu benshi impande hari ikigega gifata amazi.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru uri gusuzuma abarwayi ,mu bitaro haryamye abantu benshi ku bitanda, umugore uri konsa wambaye igitambaro k'icyatsi mu mutwe.

Abarwayi bicaye ku ntebe batonze umurongo, inyuma hari igikuta kimanitseho impapuro ziri mu mabara atandukanye hari n'umurwayi uhagaze mu muryango.

Icyumba cyabarwayi harimo ibitanda byicayeho abana, imbere hahagaze abantu bakuze baje kubasura, umuryango urafunguye ndetse hamanitsemo inzitiramibu.

Abagore babiri bafite ishusho mu ntoki, bari kwifotoza. Inyuma hari ubusitani bw'indabyo n'amoko y'ibiti atandukanye ndetse n'inzu isakaje amabati y'ubururu.

Abantu benshi harimo abambaye amatabriya asa umweru, bahagaze imbere mu byatsi, inyuma hari inzu yubakishije amatafari ahiye igeretse, imbere yabo hari umuhanda uhanyura.

Umurwayi uri kwa muganga uryamye ku gitanda, gishashe n'amashuka y'umweru na muganga uri kumupima. Wambaye imyenda isa ubururu bari mu cyumba gisize irangi ry'umweru.

Abaganga babiri bicaye mu cyumba gisize irangi ry'umweru, ndetse umwe ari gupima umurwayi, undi imbere ye hari ibitabo, afite ikaramu mu ntoki ari kwandika.

Abantu benshi bahagaze ahantu hamwe bari kumwe n'abasirikare bambaye impuzankano, inyuma yabo hari amazu yubakishije amatafari ahiye, asakaje amabati ndetse n'ibiti.

Abantu benshi bahagaze mu muhanda, hari icyapa, cyanditseho ibiro by'akarere bya Nyagatare. Inyuma hari ibiti by'amoko menshi ndetse n'inyubako, zubakishije amabati.

Umuganga ufite akarahure mu ntoki, kariho amaraso agiye gupima, yambaye n'agapfukamunwa gasa ubururu.

Umuganga wambaye taburiya y'mweru n'agapfukamunwa, yicaye ku gatebe imbere ari kureba muri microscope, impande hateretse agacupa ndetse n'impapuro.

Umugore wambaye itaburiya asa umweru, ari gupima, indwara akoresheje mikorosikope, imbere ye hateretse udukombe n'uducupa.

Abanyeshuri benshi bambaye amataburiya y'umweru bari kwiga, hari ikirango cya kaminuza y'u Rwanda kiri mu ibara ry'ubururu.

Umuganga uri kwandikira abarwayi imiti, afite ikaramu mu ntoki yambaye ishati y'mweru, imbere ye ku meza hari agakombe karimo imiti n'impapuro nyinshi, imbere ye hicaye abarwayi.

Umuganga wambaye agapfukamunwa na ga mu ntoki, ari kuvura umurwayi ndetse hari n'abandi, ku ruhande bahagaze imbere yabo hari ameza.

Abagore n'abagabo bahagaze ahantu hamwe, imbere yabo hari ameza ariho amasafuriya, ibikombe, amasahani, agacupa k'amazi n'imboga zo guteka.

Umugore wambaye ibitenge, ateruye umwana amukoze ku itama, yicaye ku gitanda cyo kwa muganga, inyuma hari serumu.

Umugore wambaye ibitenge afite amata mu ntoki ari guha umwana wambaye ishati y'umuhondo ahetse igikapu mu mugongo.

Umugabo wambaye ishati ndetse n'umugore wambaye ibitenge n'amadarubindi, bahagaze imbere y'inzu, yubakesheje amatafari ahiye, isize irangi ndetse isakaje n'amabati.

Umugore n'umugabo bateruye abana b'impanga, bahagaze impande y'indabo, inyuma yabo hari inzu yubakishije amatafari ahiye, asize irangi ry'umweru, umuryango urafunguye.

Igipapuro gishushanyijeho umubyeyi uri konsa umwana, aryamye ku gitanda. Hejuru hamanitse inzitiramibu ndetse impande hari umugabo wari ufite igitiyo uri gusiba ibinogo by'amazi.

Abana benshi bicaye ku mukeka bafite udukombe udusa ubururu, umutuku, umuhondo, umweru, turimo igikoma bari kunywa bicaye mu nzu irimo ibishushanyo.

Umugore uteruye umwana wambaye imyenda y'umutuku ari kuganira n'umuganga bicaye wambaye itaburiya y'umweru, inyuma hari ibitaro bisize irange ry'umuhondo.

Umugore ukikiye umwana ari kumuha igikoma mu gakombe k'iroze ndetse n'undi ufite ibikombe bibiri, ubururu n'icyatsi ari guhoza.

Umugabo wambaye imyenda y'ubururu, imbere ye hicaye abana benshi ari guhereza igikoma mu gikombe ndetse n'undi uteruye umwana uri kurira.

Abantu bambaye udupfukamunwa, bicaye ku ntebe z'ibiti mu cyumba gisize irangi ry'umuhondo rimanitsemo amarido, amadirishya arafunguye.

Abagabo benshi bahagaze ku murongo imbere y'inzu isize irangi ry'ubururu, hejuru hariho ibyapa byanditse mu nyuguti zisize irangi ry'umukara hashushanyijeho ikirangantego.

Umwana wambaye ikanzu irimo amabara atandukanye, afite ikarito isize irangi ry'umuhondo, icyatsi n'ubururu n'umweru, irimo ifu yongera intungamubiri.

Umugore wambaye umupira wa oranje n'ipantaro. Ateruye umwana wambaye imyenda y'umweru, ari kumugaburira ku isahani y'umutuku n'undi wicaye iruhande rwe wambaye imyenda y'ubururu.

Umugore wambaye umupira n'ipantaro ari imbere y'ubukarabiro ari gukarabya abana batoya batonze umurongo, basohoka mu nzu ifite urugi n'idirishya.

Abantu benshi bateraniye hamwe bicaye bambaye umupira isa umweru ndetse n'abahagaze bari kubaha amabwiriza, hari icyapa cyanditseho baho kiri mu ibara ry'icyatsi n'ubururu n'umutuku.

Abantu benshi bari hamwe, inyuma yabo hateretse intebe zisa umweru, bari kubyina bishimye, inyuma hari icyapa gikangurira abantu, gishushanyijeho ikirangantego n'ikirango cya Ribu.

Abantu benshi bari hamwe, bambaye imipira y'icyatsi, yanditseho amagambo y'mweru, mu mugongo, bahagaze ahantu hari amatente ndetse inyuma hari ishyamba ry'ibiti.

Umugore uteze agatambaro k'umukara wambaye ikanzu afite n'akandi mu ntoki ndetse n'indangururamajwi ari kwigisha ijambo ry'imana mu giterane.

Umugore wambaye amaherena, afite indangururamajwi, ari gutambutsa imbwirwaruhame, inyuma ye hashushanyije ikirangantego.

Umugore uri kuganiriza abaturage bicaye ahantu mu kibuga ku ntebe z'ubururu n'umweru, impande hari inzu zikorerwamo ubucuruzi.

Abanyeshuri bahagaze mu kibuga kirimo ibyatsi, bari kwifotoza imbere y'igitambaro gisa umwerur cyanditseho n'amagambo, inyuma hari inyubako zubakishije amatafari ahiye zisakaje amabati ndetse n'umusozi.

Abagore babiri bicaye ku gatebe umwe afite amakayi mu ntoki ari guhumuriza undi, inyuma yabo hari inkwi z'imyase zihegetse.

Inzu isize irangi ry'umuhondo yometseho ibyapa bisa icyatsi byanditseho n'amagambo y'umweru, imiryango irafunguye, iruhande hari umuhanda ndetse n'igiti.

Umugore uhagaze mu cyumba cy'ububiko bw'imiti, azamuye akaboko ari kuyimanura hejuru, iri mu dukarito tw'amabara atandukanye umweru, umuhondo, icyatsi n'ubururu.

Ububiko bw'imiti ahitwa muri farumasi, hari imiti myinshi y'ubwoko butandukanye, ipakiye mu tubati, iri mu dukarito ndetse n'indi iri mu ducupa.

Icyumba k'imiti kizwi nka farumasi kirimo imiti y'amoko atandukanye, gisize irange ry'umuhondo, ipakiye mu kabati k'icyuma, harimo iri mu gakarito ndetse no mu ducupa.

Umuti uri mu ikarito y'ubururu n'umweru, wanditse n'amagambo y'icyongereza, n'inyuguti z'umukara, uri imbere y'amatafari ahiye.

Inzu y'ububiko bw'imiti ariyo farumasi. Harimo utubati turimo imiti igiye itandukanye. Ifunze mu ducupa, mu dukarito tw'amoko menshi, amabara atandukanye: umweru umutuku, ubururu n'ibindi.

Umugabo uhagaze wambaye umupira w'umweru, afite indangururamajwi mu ntoki ari gutambutsa imbwirwaruhame imbere yabantu benshi bicaye, n'undi ufite telefone ari kumufotora, inyuma yabo hari inyubako isize irangi ry'umuhondo.

Igipapuro kigaragaza umuntu wambaye ishati y'umweru n'amadarubindi, bigaragara ko ari umutumirwa impande ye hari uwamutumiye nawe we yambaye ishati.

Umugore uri kubwira abantu bicaye imbere ye wambaye ikanzu isa ubururu afite agatabo mu ntoki, hari inzu isize irangi ry'umuhondo ishushanyijeho abantu.

Abantu benshi bicaye hasi mu byatsi, imbere yabo hahagaze umugore, inyuma hari ibiti by'amoko atandukanye n'amazu yo guturamo.

Umugabo wambaye ipantaro ndetse akandagiye hasi, imbere ye hari isekuru n'umuhini ari gusekura ndetse n'intebe ihateretse ku ruhande.

Icyapa gisize irangi ryumukara gishushanyijeho ikirangantego n'ibendera ry'igihugu kiri mu busitani bw'indabyo inyuma ishyamba ry'ibiti.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye, bahagaze mu muhanda rwagati, impande hari igiti cy'umwembe, inyuma indabyo ndetse n'inzu isize irangi ry'ubururu, isakaje amabati.

Abantu bambaye amataburiya y'ubururu n'udupfukamunwa, bahagaze mu mbuga bari gukoma amashyi n'undi mugabo uri imbere yabo uri kubafotora. Impande hari inzu isize irangi ry'ubururu.

Umuti uvura inka, uri mu ikarito y'umweru n'icyatsi, hashushanyije inka, ihene, intama n'ingurube ndetse n'ibiha. Ni umuntu uwufashe mu ntoki, hari ikiganza.

Umugore wicaye wambaye baje ifite ibara ry'ubururu, imbere ye hari ameza ariho mudasobwa ari gukoresha ndetse n'amakayi, hari akabati karimo udukarito.

Abana benshi bicariye ku muhanda, imbere yabo hari inyubako yanditseho Girabubuzima isize amarangi y'ubururu, n'umugore uhetse umwana, hari n'indabyo zihatatse.

Abantu benshi b'abagabo n'abagore bari gusohoka mu nyubako ifunguye inzugi n'amadirishya, isize irange ry'ubururu, impande hari ababyeyi bari konsa umwana bahicaye.

Umugore wambaye ibitenge, yiteze n'ikindi mu mutwe, ari gukaraba ku bukarabiro bwa kandagira ukarabe, inyuma hari inyubako isize amarangi y'ubururu n'umuhondo.

Abarwayi bicaye ku ntebe z'ibiti hanze kwa muganga. Inyuma haparitse imodoka ndetse n'ibiti by'amoko atandukanye n'inzu zo guturamo.

Umuganga wambaye impuzankano isa umweru, ari kumwe n'umugore wambaye ibitenge, impande hari intebe n'ameza ariho impapuro ndetse n'amakaye, bari mu cyumba gifite urugi rukinguye rw'ubururu.

Abagabo batatu ndetse n'umugore wambaye agapfukamunwa, afite impapuro mu ntoki ari kuzibereka, imbere yabo hari ameza ariho igikombe, akajerekani, amakayi, ndetse n'ibikombe by'imiti.

Inzu isize amarangi y'ubururu, isakaje amabati, imbere handitseho girubuzima, hicaye abantu ku ntebe imbere hanze.

Mu muhanda iruhande hari inyubako ikorerwamo ubucuruzi butandukanye bw'imyenda, amavuriro y'amenyo hahagaze umugabo munsi, afite igitabo ndetse haparitse n'ipikipiki.

Umugabo uri kuganiriza abantu benshi bicaye hamwe, imbere yabo hari ameza mu cyumba kirimo ikibaho gifite imiryango ibiri hamanitsemo igipapuro cyanditseho amagambo ndetse kirimo n'amatara.

Umugore wambaye amaherena, ufite ikaramu mu ntoki ari kwandika ku mpapuro afite, imbere ye ndetse impande hari abantu benshi bahicaye.

Inzu ebyiri zisize amarangi y'ubururu, zisakaje amabati, imbere yazo hari intebe hicayeho abantu n'undi uri kuri terefone. Hari n'indabo ndetse n'igiti.